Bitwereka kwa muganga, cyangwa se muri farumasi, hariyo imiti myinshi cyane itandukanye, iba mu macupa, iba mu dushashi, muganga asa n'aho ari kuyishyira ku murongo.

Iyo ma shusho yerekanaga icyatsi cyitwa caperi, cyarabye gifite ibitusha kibaga mu ishyamba, cyangwa se bakunda guhinga, abana bakunda kurya ndetse iki cyatsi kikagira utubuto turyoha cyane.

Hari indabyo nyinshi cyane ziriho uturabyo bataka mu nzu, hari n'ibiti bisobekeranye cyane bimwe bifite indabyo bifite amababi y'umuhondo n'uturabyo tw'umutuku.

Hari ibyatsi byinshi biba mu ishyamba, bimeze nk'imiti bavuza abantu cyangwa se amatungo yarya. Ibyatsi ni byinshi cyane cyane cyane.